Abagore n'abagabo, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere y'ameza, bafite ibyo kunywa, birimo amazi, ibitabo byo kwandikamo, amakaramu, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, bisa nk'abari mu nama.

Abagabo n'abagore, abasore ndetse n'inkumi, bambaye bikwije imyambaro iryoheye ijisho, bahuriye ahantu basa nk'abari kumva ikiganiro bateze amatwi yombi.

Urubyiruko, ruri mu cyumba gitangirwamo ibiganiro, ruri kunywa amazi, rwicaye mu ntebe zera, rwambaye imyenda yirabura.

Ahantu hari icyapa kiranga aho bakorera serivisi z'Irembo ndetse na serivisi zo gukamera no gusohora amashusho yakamewe.

Gerageza impano yawe utsindire akayabo k'amafaranga miliyoni y'amanyarwanda, niba washobora gushushanya, kuririmba, ubusizi ndetse n'ibindi.

Ahatangirwa ubuvuzi burimo ibirebana n'imirebere n'amaso muri rusange hari abagore babiri umwe w'umuganga ndetse n'umwe w'umurwayi.

Imbere y'inzu nini ndende igeretse hari umupolisi ndetse ari kuvugana n'umuyobozi w'ikinyabiziga byegeranye cy'umukara.

Ibiro bya polisi bishinzwe iperereza mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo, haratuje cyane.

Umupolisi ushinzwe ibinyabiziga n'imikoreshereze y'umuhanda inoze, ari mu kazi ndetse yambaye impuzankano yabugenewe.

Imodoka y'abashinzwe umutekano, haba uwo mu muhanda cyangwa uw'abaturage mu buryo busanzwe, iri mu kazi icanye amatara.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'umupira w'umweru amanitse ikiganza cy'ibumoso afite igikoresho nsakazamajwi kizwi nka mikoro.

Umukandida wiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ari mu mbaga y'abantu benshi, amafoto ye amanitse ku bipapuro byinshi.

Abayobozi bari mu cyumba nshingwabikorwa kigizwe n'intebe z'umukara, zirabura ndetse abagabo benshi muri bo bambaye amakoti y'umukara.

Ikinyabiziga gitwara imizigo itandukanye irimo ibiribwa ndetse n'ibindi, n'ibikoresho by'ubwubatsi n'ibindi, iri mu muhanda urombereje.

Urujya n'uruza, rw'imodoka, zitwara abagenzi, muburyo bwa rusange, ndetse n'abantu, kumasaha y'ijoro, usa nkaho bari kuva mu mirimo bataha mu rugo.

Ikinyabiziga cy'ibiziga bitatu bizwi nka lifani mu rurimi rw'ikinyarwanda, kiri kunyura mu muhanda urombereje w'ibice bibiri.

Imodoka nini itwara ibisukika birimo nka peteroli, amazi, esansi ndetse n'ibindi iri kwambukiranya umuhanda munini urombereje.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga by'ibiziga bibiri ndetse n'ibinyabiziga bitwara imizigo irimo ibiribwa, imyambaro ndetse n'ibindi.

Icyuma gishinzwe kuyobora ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru kiri kugaragaza ko abanyamaguru basigaje amasegonda mirongo itatu na nde ngo barekere kwambukiranya umuhanda.

Icyapa cy'icyatsi ndetse n'umweru kiri hafi y'umuhanda ati urakaza neza muri Repubulika y'u Rwanda mu karere ka Gicumbi.

Inzu ndende igeretse ifite ibara ry'umweru ndetse n'iry'ubururu iri imbere y'umuhanda urombereje kandi hari ubusitani busa neza.

Imbere y'amazu akorerwamo ubucuruzi butandukanye, burimo ubw'ibiribwa ndetse n'ubw'ibitaribwa, hari amamodoka meza cyane.

Amazu menshi yo kubamo y'ingeri zitandukanye ay'abishoboye ndetse n'abatishoboye harimo ibiti bitandukanye by'ubwoko bwiza.

Isangano ry'imihanda ririmo ibinyabiziga ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu, hari inzu igeretse kabiri isa nk'iy'ubucuruzi kandi hari ibiti bisa neza.

Umuhanda urombereje w'ibice bibiri ndetse wegeranye n'ikiraro kinyuraho imodoka hejuru, hari amatara amurika cyane.